Abantu batatu barimo umugore ndetse n'umugabo n'umwana muto. Bari imbere y'inyubako. Baricaye, baraganira. Iruhande rw'umugabo hateretse impapuro.

Itsinda ry'abantu benshi bari hamwe, bambaye imyenda y'amabara asa ndetse n'ingabo z'Igihugu, bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga bw'ubuhinzi mu baturage.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye barimo abagore n'abagabo, abirabura ndetse n'abafite uruhu rwera, bicaye bakurikiranye inama, bicaye imbere y'ameza ateretseho amacupa y'amazi.

Ababyeyi batatu bakuze, bicaye imbere y'umujyanama w'ubuzima, bari guhabwa inama zitandukanye ku mibereho myiza bakwiye kugira.

Abantu batandukanye barimo abasore n'abagore, bafite imifuka myinshi ifite ibara ry'umweru, bari mu muhanda ahapakiye imifuka myinshi.

Itsinda ry'abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo. Bambaye imipira ifite ibara ry'umweru isa, harimo abicaye n'abahagaze.

Umusaza ukuze uri mu kigo nderabuzima, ari kwitabwaho n'abaganga bafite ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi, harimo ibipima umuvuduko w'amaraso ndetse no gutera k'umutima.

Abantu batatu barimo umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'ijire, afite igikoresho cy'abaganga gipima umuriro. Ari kumwe n'umugore uteruye umwana muto, bahagaze imbere y'ikiyaga kigari.

Itsinda ry'urubyiruko rurimo abakobwa ndetse n'abasore, bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ingofero zifite ibara ry'umweru.

Abantu benshi biganjemo abagore, bambaye amajire afite ibara ry'icyatsi, barimo n'abagore bateruye abana, bahagaze imbere y'inyubako.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga mu gupima imivuduko y'amaraso ndetse n'uko umutima utera, kirimo umukecuru uri guhabwa ubuvuzi.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo abantu babiri, harimo umugore wicaye, ndetse n'umugabo uhagaze imbere ye, iki cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye nka mudasobwa, n'ibindi.

Abantu benshi bambaye imipira ifite ibara risa. Barimo abana bato bicaye bafite ibyansi birimo amata.

Umukobwa ku iriba ari kumwe n'utwana duto tune adufasha kuvoma amazi. Hirya yabo hahagaze ikinyabiziga kigendera ku mapine ane.

Abakobwa babiri bari kumwe n'utwana dutatu, bari ku iriba rifite ibara ry'ubururu, umwe ari koza akana gato mu ibase.

Icyumba cy'inama y'abaturage kirimo abitabiriye inama bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, barimo kandi abagabo n'abagore, bafite impapuro mu ntoki n'amakaramu, barahabwa ikiganiro bandika.

Itsinda ry'abantu bicaye mu cyumba cy'inama bambaye imipira y'ibara rimwe ry'umweru, biganjemo abagabo barimo guhabwa ibiganiro.

Itsinda ry'abana benshi bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'abanyeshuri zifite ibara ry'umuhondo ndetse bari kumwe n'abarezi babo.

Imbaga y'abantu nyamwinshi barimo abagabo, abagore ndetse n'abana bato bahagaze imbere y'inyubako, imbere y'iyo nyubako hari Idarapo ry'u Rwanda ndetse hahagaze ibinyabiziga bibiri; birimo igitwara abarwayi kwa muganga.

Umwana muto w'umuhungu, wambaye impuzankano z'ishuri zirimo ibara ritukura, ari gukaraba intoki n'amazi meza ahabugenewe.

Umwana w'umuhungu yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, afite igikoresho cyo mu rugo cyifashishwa mu kuvoma amazi, aravoma amazi mu iriba.

Itsinda ry'abaganga barimo abagabo bane, ndetse n'umugore umwe, bambaye imyenda ibagaragaza ko ari abaganga, imbere yabo hateretse ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wambaye imyenda y'ishuri irimo amabara ya shokora, ari gukoresha ibikoresho by'isuku birimo indobo ndetse n'akabase ko gukarabiramo.

Abana batandatu b'abanyeshuri bahagaze ku mavomero atatu afite iminwa imbere n'inyuma. Bafite indobo barimo kuvomeramo amazi.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu buvuzi ndetse n'abaganga batandukanye bari kwita ku murwayi, bamuha ubutabazi bw'ibanze ndetse n'ubufasha akeneye.

Abantu batandukanye barimo ingabo z'igihugu, bicaye mu ihema rifite amabara aranga idarapo ry'u Rwanda. Imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi, uri gutanga ikiganiro.

Abagore batatu bari ku iriba, bafite ibikoresho byifashishwa mu rugo mu kuvoma amazi, bari ku iriba bavoma amazi.

Imbaga nyamwinshi y'abantu barimo abagabo, abagore ndetse n'ababyeyi bahetse abana, bahagaze mu mbuga imbere y'inyubako ndetse harimo n'abahagaze mu ihema riri muri iyo mbuga.

Itsinda ry'abakangurambaga, bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ubururu, bahagarariye Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, bakangurira abantu umunsi mpuzamahanga wo kurwanya Kanseri. Bafite icyapa kiriho amagambo agira ati: " Isuzumishe, turandure kanseri y'inkondo y'umura."

Umuganga w'umusore wambaye imyenda yabugenewe y'abaganga ndetse n'iy'ubwirinzi, irimo agapfukamunwa ndetse na masike mu maso, ari kumwe n'umusaza ukuze.

Abantu benshi bicaye, barimo ababyeyi bateruye abana bato, barimo n'abandi bafite ibyansi birimo amata mu ntoki, bahereza abo bana.

Icyumba kigari kirimo abantu benshi biganjemo ababyeyi bafite abana, imbere hari umubyeyi uteruye akana gato, afite igipapuro.

Abarwayi barimo umubyeyi ukuze, bari kwitabwaho n'abaganga bafite imiti ndetse n'ibikoresho bifashisha mu kwita ku barwayi.

Umugabo ukuze yambaye agapfukamunwa, ari mu cyumba kirimo abaganga batatu, barimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, ari guterwa urushinge n'umugore.

Abana bane bato b'abahungu bari munsi y'imyaka makumyabiri, bari ku iriba, bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi, baravoma amazi ku iriba.

Umwana, muto, w'umukobwa, wambaye, umwenda, urimo ,amabara y'umweru, umukara. Afite, ibikoresho, byo mu rugo, byifashishwa, mu kuvoma amazi. Ari ku iriba, ari kuvoma amazi.

Icyumba cy'inama kirimo abayobozi batandukanye barimo batatu bicaye imbere bafite ibyuma by'ikoranabuhanga batanga ikiganiro.

Abana babiri b'abakobwa bari kumwe mu mbuga ngari iruhande rw'ivomero, umwe ateruje undi igikoresho cyo mu rugo cyifashishwa mu kuvoma amazi.

Umwana muto uri munsi y'imyaka cumi n'itanu, yambaye agapira gafite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, arakaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo batatu n'abagore babiri b'abanyamahanga, bicaye hamwe bahana ibitekerezo, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ndetse n'amakayi.

Icyumba cy'inama yitabiriwe n'abatari bake, barimo abagore ndetse n'abagabo, barahabwa ikiganiro n'ababicaye imbere.

Abana babiri bato bari munsi y'imyaka cumi n'itanu, barishimye umwe arasukira undi amazi arakaraba mu ntoki.

Itsinda ry'abantu benshi batandukanye barimo abagore, abagabo, abakobwa ndetse n'abasore bahagaze imbere y'inyubako.

Umubyeyi yambaye igitenge kirimo ibara ry'icyatsi n'umupira urimo amabara y'ubururu n'umweru n'agatambaro mu mutwe, ari ku iriba, aravoma amazi.

Icyumba k'inama kirimo abantu batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari umugabo uri gutanga ikiganiro, afite icyuma k'indangururamajwi.

Abana bato b'abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri, bari ku ivomero bavoma amazi mu ntoki bakayanywa, barishimye bakina.

Umusore n'umukobwa bari ku iriba ry'amazi. Bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi. Baravoma amazi.

Abakozi bambaye impuzankano z'akazi, b'ikigo nderabuzima cya Mayange, bishimiye kwakira umuyobozi mu kigo nderabuzima cyabo cya Mayange.

Umuganga afite ikaye n'ikaramu mu biganza. Ari imbere y'umwana muto wegeranye n'umubyeyi ukuze uhetse umwana.

Itsinda ry'abantu benshi bari mu ihema no hanze yaryo bambaye amataburiya y'ubururu barishimye bahuje urugwiro rwose.

Icyumba cy'inama yitabiriwe n'abantu batandukanye, barimo abanyamahanga, iyobowe n'umuntu w'umugabo wicaye imbere yabitabiriye inama, iruhande rwe hari idarapo ry'iguhugu cy'u Rwanda.

Itsinda ry'abantu barimo abagore n'abagabo, bicaye imbere y'inyubako, ndetse bicaye muburyo butandukanye, iruhande rw'iburyo ndetse n'urw'ibumoso, abandi bicaye ahagana imbere ya bo.

Itsinda ry'abantu bahagaze mu mirongo ibiri. Barimo abagabo ndetse n'abagore. Bahagaze imbere y'inyubako isize irange rifite ibara ry'ubururu. Hejuru hariho ijambo rigira riti "Gira ubuzima".

Abantu batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore imbere y'imbwirwaruhame, bambaye amakote y'amabara y'umukara, ndetse n'udupfukamunwa dufite ibara ry'umweru.

Icyumba cy'ishuri kirimo abana barimo abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye impuzankano z'ishuri, zirimo ibara ry'ubururu. bicaye imbere y'ameza ateretseho amasahani ariho amafunguro.

Icyumba kirimo abantu batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo. Bicaye bakoze uruziga, hagati harimo umugabo wambaye itaburiya uri gutanga ikiganiro.

Umukobwa yambaye ijipo ifite ibara ry'umukara, ndetse n'umupira ufite ibara ry'iroza. Yicaye mu mbuga irimo ivomero. Afite igikoresho cyo mu rugo cyifashishwa mu kuvoma amazi, aravoma amazi yishimye. Inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda.

Icyumba cy'inama kirimo urubyiruko rwambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi ndetse harimo n'abambaye imipira y'umweru, bambaye udupfukamunwa bicaye ku ntebe, imbere hari ameza ateretseho amacupa y'amazi.

Abana bato bambaye imyenda y'ishuri bari kwifashisha ibikoresho by'isuku birimo amazi meza, ndetse n'isabune, mu gukaraba intoki.

Umugore ukuze wambaye imyenda irimo ibara ry'iroza ndetse n'undi mugore ukiri muto ndetse n'umwana w'umukobwa muto, bari ku iriba ry'amazi.

Abagore n'abakobwa bari ku kazu k'amazi, bafite ibikoresho byo mu rugo byifashishwa mu kuvoma amazi, bariho baravoma amazi.

Itsinda ry'abantu bari hamwe, barimo abahagaze n'abicaye, barimo abahungu ndetse n'abakobwa b'urubyiruko. Bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'amakarita abaranga.

Umwana muto w'umukobwa wambaye impuzankano z'ishuri, ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ari mu mbuga ngari ari kuvoma amazi mu ntoki ze.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye bicaye, hagati yabo hari ameza maremare ateretseho ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga ndetse n'amacupa y'amazi.

Umugore uhagaze afite igitabo mu ntoki, ndetse n'icyuma cy'indangururamajwi, ahagaze imbere y'abantu batari bake, bicaye mu ihema.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo abagore batatu, bambaye udupfukamunwa. Umwe araryamye ari kwitabwaho n'uwambaye imyenda y'abaganga.

Abana bato batatu. Barimo abakobwa babiri ndetse n'umuhungu umwe. Barishimye bari gukaraba intoki n'amazi aturuka mu iriba.

Itsinda ry'abantu benshi barimo abagabo, abagore, abirabura ndetse n'abazungu, barimo abicaye ku murongo umwe ndetse n'abahagaze inyuma y'abicaye.

Icyumba cy'ishuri kirimo ameza ndetse n'intebe ndetse n'abana benshi bicaye hamwe, bambaye imyenda isa ifite ibara ry'ubururu, bari kumwe n'abarezi babo.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye bitabiriye inama, barimo abagore n'abagabo. Hagati yabo hari ameza maremare ateretseho imitako y'indabyo ndetse n'amacupa y'amazi.

Umwana muto w'umukobwa ari gukaraba intoki n'amazi meza, imbere ye hari akadobo kabugenewe gashyirwamo amazi ndetse n'akabasi hasi, kifashishwa mu gukora isuku yo gukaraba neza intoki n'amazi meza.

Itsinda ry'abantu batanu barimo abagore bane n'umugabo bakikijwe n'amakoma bicaye baganira ku bintu bitandukanye.

Imbuga ngari irimo intebe nyinshi ndetse n'amezaza menshi, yicayemo abantu benshi batandukanye ndetse bambaye udupfukamunwa.

Itsinda ry'abantu benshi bari hamwe, barimo abagabo n'abagore; barimo abicaye imbere y'abandi ndetse n'abandi benshi bahagaze inyuma y'abandi.

Abana bato bari mu kigo cy'amashuri, bambaye impuzankano z'ishuri zifite ibara ry'umuhondo n'utugofero mu mutwe, baraseka bishimye.

Abakangurambaga barimo ingabo z'igihugu ndetse n'abambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi. Bari mu rugendo rwo gukangurira abaturage kurwanya ihohoterwa ko ari inshingano za buri muturage wese.

Abana bato benshi barimo abakobwa ndetse n'abahungu, bakikije umukecuru ukuze bicaye hasi ku gasambi.

Umubyeyi yicaye ku musambi hasi, imbere y'inyubako yubakishije ibyondo. Ari kumwe n'abana batatu, umuto akikiye ndetse n'umwicaye iruhande n'umuri inyuma.

Itsinda ry'abagabo n'abagore, bahagaze imbere y'inyubako ngari, iruhande rwabo hari icyapa kiranga ibikorwa bitandukanye bikorerwa muri iyo nyubako.

Itsinda ry'abantu benshi bari hamwe bafite igipapuro kinini kigaragaza igihembo bahawe ku itariki makumyabiri n'imwe, ugushyingo, bibiri na makumyabiri.

Umugore muto muto yicaye hasi ndetse yambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo hejuru, azirikiye ku giti kinini yicaye arebana nacyo.

Umusore muto wicaye hasi mu muhanda, wambaye imyenda yanduye, ufite amashashi mu ntoki, afite uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu benshi barimo umugore ufite ibiti mu ntoki, imbere ye hari umwana wifashe mu misaya, ndetse no ku mutwe, yuzuye umubabaro ndetse n'amarira atemba ku maso.

Abagore batatu barimo umwe uteruye umwana ndetse ari kumwonsa, bahagaze mu murima hagati y'imisozi bafite inkoni z'imigano.

Abantu batandatu bicaye imbere y'inyubako, barimo abagabo babiri ndetse n'abagore babiri ndetse n'umukecuru ukuze n'umwana muto.

Itsinda ry'urubyiruko ruri kumwe n'abakuze bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu bahagaze hamwe bamwe imbere abandi inyuma yabo.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo abagore b'ababyeyi babiri bakikiye abana mu biganza ndetse bari kumwe n'undi mugore ufite ibyuma by'ikoranabuhanga imbere.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye biganjemo urubyiruko bambaye imyenda y'umukara bari guhabwa ikiganiro ku bintu bitandukanye.

Abana benshi kandi bato bari hamwe bishimye baseka. Bambaye imyenda y'ishuri ifite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari idarapo ry'igihugu.

Umugore wicaye yambaye umupira ufite ibara ry'umweru. Yicaye yunamye yashyize ibiganza mu mutwe. Bigaragara ko hari ibintu atari kumva neza.

Umubyeyi uteruye akana gato kari munsi y'umwaka, baraseka, bishimye. Umubyeyi yambaye umupira ufite ibara ry'umweru.

Abana bato bari munsi y'imyaka icumi barimo abambaye imyenda ufite ibara ry'icyaytsi; biciye hamwe baseka bishimwe.

Icyumba kigari cy'inama yitabiriwe n'abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore, bicaye mu ntebe nyinshi bakurikiye ikiganiro.

Umugore wambaye agapfukamunwa, yicaye imbere y'umuryango w'inzu, ahetse umwana muto mu mugongo ndetse iruhande rwe hari undi mwana muto, aricaye imbere y'inkono atetse.

Umubyeyi ukuze araseka yishimye, yicaye ku gatebe k'agasongabugari imbere y'inyubako ye, mu mbuga ye hateretse amashyiga ndetse n'inkwi biri kumufasha guteka inkono ye.

Abagore batatu bambaye udupfukamunwa, bicaye hamwe mu mbuga nini, inyuma yabo hari inzu zubatse muburyo bwa kera.

Icyumba cy'inama kirimo abagore ndetse n'abagabo. Giteguye mu buryo ameza akoze uruziga, hagati mu ruziga hahagazemo umugore wambaye umwenda w'umweru ndetse n'umukara, ari gutanga ikiganiro.

Umukobwa mwiza yambaye umwenda ufite ibara ry'umukara yicaye mu ntebe aseka cyane yishimye ku maso bigaragara.

Umukobwa muto ari guseka yishimye imbere ye hari ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo ari gukorerwa ubuvuzi bw'amenyo n'umuganga.

Icyumba cy'ubushakashatsi kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu bushakashatsi n'abiga cyangwa se abaganga. Kirimo umugore wambaye imyenda yabugenewe, yifashishwa mu gukora ubushakashatsi. Ari gukora ubushakashatsi akoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Umusaza ukuze, ari mu cyumba cy'ubwogero. Ahagaze imbere y'indorerwamo ndetse imbere ye hari uburoso bukoreshwa mu koza amenyo ndetse n'umuti w'amenyo.

Umwana muto wicaye imbere y'umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe mu biganza by'abaganga, ari kumuvura amureba mu menyo.

Icyumba cy'ishuri kirimo abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri zirimo amashati y'umuhondo bamanitse intoki hejuru bishimye.

Umuganga wambaye itaburiya y'abaganga ndetse na ga zo mu ntoki n'agapfukamunwa, ari kwita ku murwayi w'umugabo ukuze akoresheje igikoresho kireba mu kanwa.

Icyumba cy'ivuriro kirimo abagabo babiri b'abaganga, bambaye imyenda yabugenewe, iy'abaganga ndetse n'umurwayi w'umugore uryamye ku gatanda k'abarwayi, bari kumuha ubuvuzi bw'amenyo.

Umwana muto uri munsi y'imyaka icumi, afite uburoso bwoza amenyo aritoza gukorera amenyo ye isuku.

Umuganga wicaye mu cyumba cy'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo. Harimo agatanda k'abarwayi, gafite ibara ry'icyatsi.

Itsinda ry'abaganga, bambaye imyenda yagenewe abaganga, irimo udupfukamunwa ndetse kandi bafite ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye. Imbere yabo hari umurwayi w'umugore uri kuvurwa amenyo.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe y'abaganga, ifite ibara ry'ubururu, ari mu cyumba cy'abarwayi, ari kuvura umurwayi w'umugabo, amuvura amenyo akoresheje ibyuma by'abaganga byabugenewe mu kuvura amenyo.

Abantu barimo abagabo n'abagore, bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi, hari n'abambaye imipira ifite ibara ry'umweru, ku meza manini hateretseho imiti y'amenyo.

Inyubako ndende y'ivuriro ry'amenyo ifite imbuga ngari ndetse n'amarembo afite ibyuma bifite ibara ry'ubururu.

Umukobwa muto ufite agakoresho gatangwa n'abaganga mu buvuzi bw'amenyo, gafite urudodo imbere rwo gucisha mu menyo, ari gukorera isuku amenyo ye.

Umusore n'umukobwa bari hamwe bishimye, bambaye imipira ifite ibara ry'umweru, barireba mu ndorerwamo baseka bishimye.

Umukobwa ukiri muto, wambaye akenda gafite ibara ry'umweru ndetse no mu mutwe, afite uburoso bukoreshwa mu koza amenyo ari gukorera isuku amenyo ye.

Umukobwa wambaye ikanzu ifite ibara ry'umweru, afite mu ntoki uburoso bwifashishwa mu koza amenyo, ari koza amenyo.

Umuganga uvura indwara z'amenyo, yambaye ibikoresho by'abaganga mu biganza ndetse afite igikoresho kimeze nk'ishusho y'amenyo. Afite akuma yifashisha mu kuvura amenyo.

Abaganga bafite igikoresho gikoze mu ishusho y'amenyo y'umuntu ndetse bafite ibyuma byifashishwa mu kuvura indwara z'amenyo.

Abana bato bambaye impuzankano z'ishuri, bafite ibikombe birimo amazi meza ndetse n'uburoso bukoreshwa mu koza amenyo.

Icyumba cy'ishuri kirimo abantu batandukanye, barimo abagore n'abagabo, umugabo wambaye imyenda y'abaganga, afite igikoresho cyifashishwa n'abaganga gifite ishusho nk'iy'amenyo y'umuntu, ari kumwe n'umwana muto w'umunyeshuri.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'amenyo. Kirimo umuganga wambaye imyenda yagenewe abaganga ndetse n'umurwayi uryamye ku gatanda k'abarwayi uri guhabwa ubuvuzi n'umuganga, ari kumuvura amenyo.

Abaganga bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, bikoreshwa n'abaganga mu kuvura uburwayi bw'amenyo, bambaye imyenda yabugenewe y'abaganga, bari kuvura umugore uryamye amenyo.

Icyumba kivurirwamo uburwayi bw'amenyo, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga mu kuvura uburwayi butandukanye bw'amenyo.

Umusore wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara, aryamye ku gatanda k'abarwayi mu cyumba cy'ubuvuzi. Aravurwa n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe y'abaganga. Agiye gukorerwa ubuvuzi bw'amenyo.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye z'amenyo.

Umuganga w'umugabo wambaye ibikoresho by'abaganga byabugenewe mu biganza. Ari kuvura umwana muto akoresheje ibyuma byabugenewe mu kuvura indwara z'amenyo.

Abagore babiri bahagaze mu cyumba kirimo ameza, intebe ndetse n'amacupa y'amazi, bafite impapuro mu ntoki, umwe araseka yishimye, yambaye ikote rifite ibara ry'ubururu, undi yambaye ikote rifite ibara ry'umutuku.

Umukobwa muto, mwiza, ufite imisatsi miremire, yambaye umwenda w'umweru ari kwireba mu ndorerwamo, afite uburoso bwoza amenyo mu biganza, ari koza amenyo ye.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho byiza kandi bigezweho, birimo iby'ikoranabuhanga, nka mudasobwa ndetse n'ibisanzwe nk'agatanda k'abarwayi.

Icyumba cy'ubuvuzi gifite isuku kivurirwamo abarwayi b'amenyo, kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu kuvura indwara z'amenyo, birimo agatanda k'abarwayi ndetse n'intebe.

Abantu benshi barimo abaganga ndetse n'abavurwa, barimo gupimwa ibiro ndetse abandi bafite impapuro mu ntoki, imbere yabo hari ihema ririho ikirango kigaragaza ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima.

Umugore mwiza wishimye wambaye imyenda yagenewe abaganga, ari inyuma y'umubyeyi ukuze w'imvi nyinshi mu mutwe wicaye.

Umugore ukiri muto ari kumwe numugore ukuze wishimye bari gukata imboga rwatsi bafite ibikoresho byo mu gikoni.

Umugore aricaye yambaye imyenda y'abaganga, afite ibikoresho by'abaganga ari kwifashisha avura umugore ukuze wicaye mu kagare k'abamugaye.

Itsinda ry'abantu, bicaye mu mbuga ngari irimo ibiti ndetse n'ibyatsi, bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe. Barimo abagore ndetse n'abana ndetse n'umugabo w'umuzungu uteruye umwana muto.

Itsinda ry'abahinzi barimo abagore ndetse n'umugabo, bari mu murima munini urimo igihingwa cyitwa icyayi, gikoreshwa mu buzima bwa buri munsi.

Umugabo ukuze cyane, ari kumwe n'umugore na we ukuze cyane, imbere yabo ku meza hateretse icupa ry'imiti ndetse n'igikombe cy'amazi, uyu mugabo ukuze afite imiti mu biganza bye.

Umusaza ukuze ndetse n'umukecuru, bicaye mu nyubako irimo ibikoresho bitandukanye, birimo intebe ndetse aho bicaye imbere yabo, hari ameza ateretseho impapuro zitandukanye.

Abagabo babiri bakuze bahuje urugwiro, hagati y'ubusitani burimo ibiti birebire ndetse n'imbuga nziza.

Ababyeyi babiri bakuze bari imbere y'abandi bantu batandukanye, bambaye imipira ifite ibara ry'umutuku ndetse n'imyitero y'imyeru.

Umusaza ukuze yicaye mu nyubako aho bafatira amafunguro. Yicaye ku meza ateretseho amafunguro ariho imboga rwatsi ndetse n'ikirahure cy'amazi.

Ababyeyi batatu bicaye hamwe, bafite uruzingo rw'urudodo ndetse n'icyuma cy'ikoranabuhanga mu ntoki zabo, baraganira ku bintu bitandukanye.

Umuryango mugari, ugizwe n'abana bato ndetse n'ababyeyi barimo umugore ukuze ndetse n'umugore ukiri muto. Bamwe baricaye, abandi barahagaze.

Umugore w'umuganga yambaye imyenda yabugenewe y'abaganga, ari kumwe n'umugabo wicaye ukuze, baraganira baseka bishimye.

Umusaza ukuze yicaye ku gatebe imbere y'inzu, ari kumwe n'utwana tubiri turi munsi y'imyaka icumi.

Umukobwa w'umuganga, wambaye imyenda yabugenewe y'abaganga, ari kwita kumubyeyi ukuze, wambaye umupira w'umweru.

Umuganga w’umukobwa muto muto yishimiye kuvura umusaza ukuze. Akoresheje igikoresho cy’abaganga gikoreshwa mu gupima gutera k’umutima.

Umugabo ukuze aricaye afite ikirahure cy'amazi mu biganza. Ari guhabwa imiti yo kunywa n'umuganga w'umugore, wambaye imyenda yagenewe abaganga, ifite ibara ry'ubururu.

Abagabo babiri bakuze bari kumwe bishimye, bambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri ndetse barishimye nk'abantu bavuye mu myitozo ngororamubiri.

Umubyeyi w'umugabo ndetse n'akana gato, bari mu kibuga cy'umupira bafite umupira mu ntoki, bari mu myitozo ngororamubiri.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda yabugenewe y'abaganga, afite ibikoresho by'ubuvuzi ari gufasha umusaza ukuze amupima uko umutima utera.

Umusaza ukuze ari kumwe n'umukecuru ukuze, bicaye mu nyubako yabo, imbere y'ameza ariho amasahani ariho amafunguro atandukanye, arimo imboga ndetse n'imbuto n'ibirahuri by'amazi.

Abagore babiri barimo umugore ukuze wambaye umupira wo kwifubika wicaye mu ntebe, undi yambaye imyenda y'abaganga ifite ibara ry'ubururu, bari kumwe bishimye.

Umugore wambaye imyenda yagenewe abaganga, afite igikoresho cy'abaganga mu ijosi, ari kumwe n'umubyeyi ukuze wicaye mu kagare k'abafite ubumuga bw'amaguru.

Abagore bakuze bahagaze imbere y'amarembo, bambaye imipira ifite ibara risa ry'umweru ndetse n'amajipo afite ibara risa iy'umukara.

Abantu batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore, bahagaze hamwe, imbere yabo hari ibikoresho bitandukanye, birimo intebe, ndetse n'agafasha ababana n'ubumuga bw'amaguru kugenda.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda yagenewe abaganga ifite ibara ry'ubururu, ari kumwe n'umusaza ukuze wicaye mu kagare k'abafite ubumuga bw'amaguru.

Umugore ukuze ari kumwe n'undi ukiri muto mu cyumba batekeramo. Bafite imboga zitandukanye bagiye kwifashisha bateka. Bari kuzironga n'amazi meza.

Umusaza ukuze yicaye ku gitanda ari kumwe n'umukobwa muto muto, ari kumufasha mu guhaguruka ku buriri.

Itsinda ry'abagabo icyenda, barimo abakuze ndetse n'abakiri bato. Bari hamwe barimo abambaye ingofero ku mutwe, barimo baganira.

Umugabo n'umugore, bari guhagurutsa umusaza ku buriri bushasheho amashuka y'umweru. Bigaragara ko umusaza afite ikibazo cy'amaguru.

Abagore batatu bakuze, umwe uri hagati yambaye umupira wibara ry'umuhondo. Afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki. Bari kwifotora baseka, bishimye.

Abagore batatu bicaye hamwe, umwe ni umubyeyi ukuze cyane, abandi ni abagore bakiri bato bari gukina umukino w'ikarita bicaye bishimye.

Umusaza ukuze ufite icyuma cy'ikoranabuhanga mu biganza, iruhande rwe hicaye umukobwa wambaye imyenda y'abaganga, imbere yabo hari igikoresho cy'ikoranabuhanga, kibateretse imbere gifite ibara ry'umukara.

Umusaza ukuze yicaye imbere y'ameza akozwe mu rubaho. Yambaye icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gupima isukari mu mubiri.

Umugore ukuze wishimye uri guseka, afite isahane iriho imboga zitandukanye ndetse afite n'ikanya yifashishwa mu kurya.

Umubyeyi w'umugabo ukuze wicaye hamwe n'umusore ukiri muto, imbere yabo bafite igitabo barebamo bombi ndetse ameza bicayeho ateretseho ibikombe bibiri.

Umubyeyi ukuze araseka yishimye, afite inkoni mu ntoki y'abakuze, ari kumwe n'umugabo wambaye imyenda yagenewe abaganga ifite ibara ry'ubururu, ndetse ufite igikoresho cy'abaganga mu ijosi rye.

Umuryango mugari wicaye hamwe urimo umukecuru, umusaza, umugabo, abagore babiri ndetse naakana gato. Bari hamwe barishimye ndetse kandi barasabanye.

Umukobwa w'umuganga ari kumwe n'umusaza ukuze, ari kumwitaho akoresheje icyuma cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa mu gupima gutera k'umutima ndetse n'umuvuduko w'amararaso.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda y'abaganga ndetse ufite ibikoresho by'ubuvuzi, ari kwita ku mubyeyi w'umusaza ukuze wicaye mu gatebe amufasha kugorora ingingo.

Umugabo ukuze wambaye ishati ifite ibara ry'ikigina, yicaye mu cyumba cy'ivuriro ari kumwe n'umuganga w'umusore wambaye imyenda yabaganga, ufite ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi.

Umuganga w'umukobwa yambaye imyenda yabugenewe y'abaganga ndetse n'ikarita imuranga, ari kumwe n'umusaza ukuze ufite akuma kifashishwa n'abafite ubumuga bw'amaguru.

Umubyeyi yicaranye n'akana gato, bari mu nyubako irimo ibikoresho bitandukanye ndetse bicaye imbere y'ameza, ariho utuntu twinshi, tumeze nk'udupapuro.

Abantu babiri bari kumwe umwe ni umusaza ukuze wambaye umupira ufite ibara ry'ikigina ndetse undi yambaye agapfukamunwa mu maso.

Umuryango ugizwe n'umusaza ndetse n'umukecuru n'umugore ndetse n'umugabo ndetse n'umwana muto bari hamwe bishimye, inyuma yabo hahagaze ikinyabiziga kigendera ku mapine ane.

Itsinda ry'abantu benshi, barimo abagore ndetse n'abagabo. Bamwe muri bo baricaye, abandi bahagaze inyuma y'abicaye.

Abantu benshi barimo abaganga ndetse n'abavurwa bari mu ihema bari gukorerwa ubuvuzi n'abaganga bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma indwara z'abarwayi.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima, imibereho myiza y'abaturage ndetse n'iterambere ry'Igihugu.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo abaganga batandukanye, bambaye imyenda y'abaganga, irimo iy'ubwirinzi, ndetse bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi, bari kwita ku murwayi uryamye.

Abantu batatu bambaye udupfukamunwa, barimo umurwayi w'umugore wicaye ari kuvurwa n'umugore kandi w'umuganga, amutera urukingo rw'indwara.

Umuganga ufite ibikoresho by'ubwirinzi, birimo agapfukamunwa ndetse na masike ipfuka mu maso, ari kumwe n'abarwayi batandukanye, bicaye bategeranye ndetse bambaye udupfukamunwa.

Icyumba kigari kirimo abantu benshi b'ingeri zose. Abagore ndetse n'abagabo. Bicaye bareba ababyinnyi imbere yabo.

Itsinda ry'urubyiruko rw'abana b'abakobwa. Bari mu matsinda ane, bambaye imipira ifite ibara ry'umweru.

Umugabo muremure ni umuzungu yambaye umupira w'amaboko maremare, ndetse n'ingofero mu mutwe, afite urupapuro rurerure ruriho amagambo agira ati: "Urukingo rw'icyorezo cy'ubushita bw'inkende rwabonetse".

Icyumba cy'inama yitabiriwe n'abantu batandukanye barimo abayobozi bakangurira abantu muguhashya icyorezo cya maribaga virusi yabaye ku itariki makumyabiri ukwakira bibiri na makumyabiri na kane.

Abayobozi bakuru barimo, abagore n'abagabo mu rwego rukuru rw'igihugu rushinzwe ubuzima, ndetse n' imibereho myiza y'abaturage.

Itsinda ry'abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko, hari abicaye ndetse n'abahagaze abandi bafite amasashe mu ntoki.

Ikirango cya Repubulika y'u Rwanda kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu ndetse na Minisiteri y'ubuzima.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo abaganga batandukanye bambay

Inyubako ndende y'ikigo nderabuzima cya Rurenzi, ifite amarange asize imbere afite ibara ry'umuhondo ndetse n'asize mu mpande y'ibara ry'umweru.

Inyubako ngari kandi ndende yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, irimo abantu bayirimo imbere ndetse no mu mbuga yayo, ikikijwe n'imisozi miremire ndetse n'ibiti byinshi.

Inyubako y'ibitaro bikuru by'Akarere ka Nyarugenge gaherereye mu Mujyi wa Kigali, itaruzura neza ifite imbuga nini izajya ihagararamo ibinyabiziga.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi birimo iby'ikoranabuhanga ndetse n'ibitanda biryamaho abarwayi.

Inyubako ndende, ifite umuryango hagati ucururizwamo imiti y'amoko atandukanye, hejuru y'uwo muryango, hari icyapa kiranga ubwo bucuruzi cyanditseho, "Ubwiza n'Ubuzima".

Inyubako eshatu zitandukanye, harimo ebyiri zubatse mu buryo bumwe, inyubako ibanza imbere yayo hari ikigega cy'amazi ndetse ifite imbuga ngari, irimo ubusitani ndetse n'igiti.

Ikigo nderabuzima gifite imbuga nini irimo ubusitani n'indabyo n'ibiti biteye neza ndetse n'ibyicundo by'abana.

Icyapa kiranga, ikigo nderabuzima gitanga ubufasha ku barwayi bafite uburwayi butandukanye, bakitabwaho ndetse bagahabwa imiti, ibafasha gukiza indwara zitandukanye bafite.

Inyubako ngari y'ikigo nderabuzima, ifite imbuga nini n'ubusitani, irimo umuganga uri kugenda ndetse iragaragaza icyapa cy'aho ababyeyi barwarira.

Umukobwa muto uri mu cyumba cy'ubuvuzi, ahagaze hejuru y'agatanda k'abarwayi, afite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, yambaye imyenda yabugenewe y'abaganga.

Umwana muto ucunze akagare k'abamugaye, kicayemo umurwayi ufite ubumuga bwo kutagenda, imbere yabo hari umudamu wambaye umupira w'umweru n'ijipo y'umukara, bagana mu nyubako ifasha abamugaye.

Inyubako nziza kandi ndende y'ibitaro bikuru bya Nyarugenge, ifite imbuga nini ndetse n'ubusitani imbere yayo.

Inyubako yitaruye yubatse mu buryo bugenzweho. Ifite imbuga irimo imihanda ibiri, ndetse n'ubusitani burimo ibiti. muri iyo mihanda harimo abantu bagenda.

Inyubako icuruza imiti itandukanye, imbere mu nyubako harimo abantu batandukanye barimo umubyeyi uhetse umwana n'undi mu ntoki, imbere y'inyubako hari ibinyabiziga bitandukanye.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byagenewe gukoreshwa imyitozo ngororamubiri itandukanye.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abakobwa, bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima, aho bakirira abagana ikigo nderabuzima.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara zitandukanye mu mibiri y'abantu.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga mu buvuzi butandukanye, mu gusuzuma cyangwa se kuvura indwara z'abarwayi. Birimo mudasobwa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Amarembo magari ariho icyapa kiranga ibitaro bikuru bya Kabgayi, imbuga nini ihagazemo umuntu utagaragara neza n'undi muntu usa nk'ugenda yerekeza ku bitaro.

Inzu y'ubucuruzi bw'imiti, irimo utubati dutandukanye dufite amabara y'umweru, turimo imiti y'amoko menshi atandukanye.

Icyumba k'ibitaro by'abarwayi gifite isuku, cyubatse mu buryo bwiza, kirimo ibitanda biteye ku murongo umwe ndetse biryamaho abarwayi.

Icyumba gifite isuku cy'ibitaro by'abarwayi, kirimo ibitanda biryamaho abarwayi. Gishasheho amashuka afite ibara ry'ubururu ndetse harimo n'ibikoresho byifashishwa n'abarwayi.

Inyubako y'ibitaro bivura indwara zitandukanye zirimo indwara zandura mu bantu ndetse n'indwara zandura mu nyamaswa.

Itsinda ry'abaganga barimo abakobwa babiri ndetse n'abahungu babiri bari mu cyumba cy'ubushakashatsi kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu bushakashatsi.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ibitanda bitandukanye biri ku murongo umwe, ndetse n'inzitiramubu zifashishwa mu kurinda abarwayi kutaribwa n'imibu itera marariya, biryamyeho ababyeyi b'abarwayi.

Inyubako y'ibitaro ifite ubusitani ndetse n'imbuga nini, yicayemo umurwayi wicaye mu kagare k'abafite ikibazo cy'ubumuga.

Inzu ngari yagenewe gukoreramo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako ndende kandi ngari yubatswe muburyo bwiza kandi bugezweho, ifite imbuga ngari irimo ubusitani bwiza.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, birimo za Mudasobwa, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, bifite amabara y'umweru, byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara ndetse no kuzipima.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Rwerere, gikikijwe n'ubusitani bunini, burimo indabyo ziteye neza, zifite ibara ry'umuhondo ndetse niry 'icyatsi.

Inyubako ziteganye zubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, zifite imbuga ndetse n'ubusitani burimo indabyo, muri iyo mbuga harimo umugabo ugendana n'abana babiri.

Inyubako y'Ikigo Nderabuzima cya Shagasha. Yubatse mu buryo bwiza. Isize irangi ry'umweru. Imbere yaho ku ibaraza hicaye abagore babiri bafite abana. Ndetse iyi nyubako ifite imbuga ngari.

Icyumba cy'ivuriro kirimo icyuma kinini cy'ikoranabuhanga cyifashishwa n'abaganga mu gusuzuma umubiri wose, ndetse kirimo n'umuganga.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Isange, giherereye mu Murenge wa Remera, umudugudu wa Rukomo. Gifite imbuganga ngari irimo ubusitani ndetse irimo ibigega by'amazi.

Inzu y'ubuvuzi irimo abaganga batandukanye, bambaye imyenda y'abaganga irimo amabara y'umweru, bafite ibikoresho by'ubuvuzi n'umumama ufite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru, bicaye mu kagare k'abamugaye bari guhabwa ubuvuzi.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ibitanda bibiri ndetse kiryamyeho abarwayi b'abagore babiri, harimo umuganga arimo kwita kuri umwe muri abo barwayi.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga ndetse n'abarwayi mu kuvurwa indwara zitandukanye, harimo intebe zicarwaho n'abarwayi mu gihe bari gukorerwa isuzumwa n'abaganga, ndetse n'imiti yifashishwa n'abaganga.

Abantu batatu barimo umukobwa uryamye ku gatanda wiseguye agasego n'umugabo wambaye ishati y'Ibara ry'iroze ndetse n'umugore wambaye imyenda irimo ibara ry'iroze.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi n'abaganga mu gufasha abarwayi bitewe n'uburwayi butandukanye bafite kirimo agatanda k'abarwayi amatara manini intebe y'umuganga ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inyubako ndende, kandi ngari ,ifite icyapa hejuru kigaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Imbere y'iyo nyubako hari imbuga ngari, ihagazemo ibinyabiziga bigendera ku mapine ane.

Inyubako y'ibitaro nziza yubatswe mu buryo bugezweho; ifite irangi rifite ibara ry'umweru, inzugi zifunze, imbere y'iyo nyubako hahagaze umukobwa.

Inyubako ndende kandi ngari ifite imbuga ngari, irimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abagenzi, ifite icyapa kigaragaza ko ari kaminuza yigisha ubuganga y'i Butare.

Inyubako ndende ndetse ngari nyinshi zubatse mu buryo bumwe bwiza kandi bugezweho, imbere y'izo nyubako hari imbuganga ngari irimo ubusitani ndetse imbere y'iyo nyubako hari abagenzi bari gutambuka.

Inyubako y'ikigo nderabuzima yubatse mu buryo bugaragaza abarimo imbere, imbere harimo abantu batatu ndetse inyuma y'inyubako hari abantu bahagaze inyuma y'urugi.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye, birimo iby'ikoranabuhanga, na za Mudasobwa, ndetse n'ibindi birimo ibitanda by'abarwayi.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo intebe zifite amabara y'umuhondo ndetse n'utubati dufite amabara y'umweru.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye birimo iby'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi byifashishwa nk'ibyongera umwuka ndetse n'ibitanda by'abarwayi.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo umugabo w'umuganga yicaye imbere y'ameza, afite igitabo ari kureberaho ndetse na mudasobwa iteretse imbere ye iri kugaragaza amashusho y'ibihaha by'umuntu.

Inyubako zitandukanye zirimo ingufi ndetse n'indende. Zifite imbuga ngari irimo ubusitani kandi mu mbuga harimo umuntu utambuka.

Abantu barimo abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa, bahagaze imbere y'inyubako ifite imbuga nini y'ikigo nderabuzima cya Isange Kabutare.

Inyubako ndende kandi ngari yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, ifite imbuga ngari irimo n'ubusitani, iruhande rw'inzu hahagaze ikinyabiziga kigendera ku mapine ane.

Inzu y'ubuvuzi irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga, mu kuvura indwara zitandukanye z'abarwayi ndetse no kubaha imiti hagendewe ku burwayi bafite.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ibitanda bitandukanye biri ku murongo umwe biryamaho abarwayi. Bifite imifariso ifite ibara ry'icyatsi.

Inyubako y'ibitaro, yubatswe mu buryo bugezweho ndetse ifite imbuganga ngari, irimo umuhanda wa kaburimbo uri gutambukamo abantu batandukanye barimo abaganga ndetse n'abarwayi, mu marembo hahagaze ushinzwe umutekano.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo abaganga, ndetse n'umurwayi wicaye mu kagare k'abamugaye, ndetse harimo n'abandi bantu benshi bahagaze ku murongo.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo umuganga wifashisha ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi. Bifite amabara y'umweru n'ubururu.

Inzu icuruza imiti y'amoko menshi atandukanye afasha abarwayi bitewe n'uburwayi bafite butandukanye iherereye mu karere ka Kicukiro i Kanombe mu mujyi wa Kigali.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye bo mu myaka ikuze, bambaye imipira yenda gusa, irimo ibara umuhondo ndetse n'ubururu bwerurutse.

Itsinda ry'abaganga bambaye imyenda yabugenewe y'abaganga, bari kumwe n'abarwayi babiri, umurwayi umwe ari kwitabwaho n'umuganga w'umugore, afatwa ibipimo bitandukanye by'umubiri we.

Inyubako ngari kandi ndende nziza yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho, ifite imbuga ngari ihagazemo abantu ndetse ifite n'ubusitani burimo indabyo nziza.

Inyubako y'ikigo nderabuzima nini kandi ngari, isize irangi rifite ibara ry'umuhondo. Imbere y'iyo nyubako hari intebe zikoze mu mbaho ndetse iruhande rw'iyo nyubako hari ikigega. Imbere y'iyo nyubako hari umugabo uri gutambuka.

Inyubako ndende ifite imbuga nini ihagazemo abantu ndetse n'ibinyabiziga, ifite amarembo magari mu marembo harimo ikinyabiziga gisohoka.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibikoresho by'abaganga, ndetse kirimo umwana muto, wambaye imyenda y'ishuri uri kuvurwa n'umuganga w'umugore.

Umuganga w'umugore ndetse n'umugabo umuhagaze iruhande ndetse n'umugore umuhagaze iruhande, bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cya Gishweru.

Ibitaro birimo icyumba kigari cy'abarwayi, kirimo ibitanda bitandukanye by'abarwayi. Ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibikoresho bitandukanye birimo za mudasobwa, agatanda k'abarwayi, isaha ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse gifite isuku ihagije, kirimo igitanda kiryamaho abarwayi, gifite isuku kandi gishashe neza.

Inzu irimo intebe zifite amabara y'umweru na mudasobwa n'utubati dufite amabara y'umweru, turimo imiti y'amoko menshi atandukanye, yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye z'abarwayi bitewe n'uburwayi bafite.

Icyumba cy'abarwayi mu nyubako y'ibitaro, kirimo ibitanda bitandukanye biryamaho abarwayi ndetse n'abafasha abarwayi gusukura aho baryamye.

Icyumba kigari ndetse cyiza. Cyubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho. Kirimo indabyo ndetse n'intebe ziteye mu buryo butandukanye.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye, birimo iby'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, kirimo kandi igitanda kiryamaho abarwayi, giteretseho imiti itandukanye.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Tabagwe, ifite imbuga nini, irimo aho bazamukira binjira mu kigo nderabuzima, ubusitani bunini, burimo indabyo z'ubwoko butandukanye.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo mudasobwa ebyiri ndetse n'abakobwa batatu, barimo babiri bambaye imyenda y'abaganga ndetse bafite ibikoresho by'abaganga.

Icyumba cy'ubushakashatsi kirimo abantu batandukanye bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu bushakashatsi ku bintu bitandukanye cyane cyane ubutabire n'ibinyabuzima.

Ibitaro birimo abaganga batandukanye, bambaye imyenda y'ubwirinzi ndetse n'ibitanda biryamyeho abarwayi batandukanye, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, intebe zo kwicaraho n'ibindi.

Itsinda ry'abagore bane, bambaye imyenda yagenewe abaganga ndetse n'udupfukamunwa ku maso. Bahagaze imbere y'inyubako ndende.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo igitanda kiryamyeho umurwayi ndetse n'ibikoresho byinshi bitandukanye, birimo iby'ikoranabuhanga, bikoreshwa n'abaganga.

Umuganga w'umusore wicaranye n'umubyeyi ukuze, yambaye imyenda yabugenewe y'abaganga, afite igikoresho cy'abaganga mu ijosi, baraganira ku bintu bitandukanye.

Inyubako ngari yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri birimo ibifasha kwiruka, kurambura amaboko, kurambura amaguru n'ibindi bitandukanye.

Icyumba cy'ubuvuzi bw'amaso, kirimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe ya muganga ndetse na mudasobwa iteretse ku meza ndetse n'intebe y'umurwayi. Kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'umuganga mu kuvura abarwayi.

Icyumba cy'abarwayi, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, birimo ibitanda by'abarwayi, ibyuma byifashishwa mu gupima no kureba uko ubuzima bw'abarwayi buhagaze.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibitanda bibiri biryamaho abarwayi, ndetse kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye z'abarwayi.

Inyubako nziza kandi iri mu zigezweho, ifite amagambo yanditseho hejuru ku rukuta agaragaza ko ari ivuriro ry'abana bato.

Icyumba kirimo isaha ihanitse ku rukuta ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Inyubako y'ibitaro ndende kandi ngari yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, ifite amatara impande zose, ifite imbuga ngari irimo ubusitani bwiza ndetse n'ibiti birebire. Imbere y'iyo nyubako hari abantu bari gutambuka.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe y'abaganga, wifashisha ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga mu buvuzi mu kwita ku barwayi no gushaka ibisubizo by'uburwayi bwabo.

Umugabo w'umuganga araseka yishimye, yambaye imyenda yagenewe abaganga ari yo itaburiya y'umweru, afite agakayi mu ntoki ndetse n'igikoresho cyifashishwa n'abaganga mu kuvura, iruhande rwe hahagaze umukobwa.

Icyumba kiza cyubatswe mu buryo bugezweho kirimo amarange y'umweru kirimo intebe nziza zigezweho, zifite amabara y'ubururu ndetse harimo n'izifite amabara y'umweru.

Umuganga wo mu kigo gikuru cy'igihugu gishinzwe ubuzima, afite ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi. Arapima ibipimo umugabo ukuze bigaragaza uko umutima utera, ndetse n'umuvuduko w'amaraso.

Icyumba cy'ubuvuzi gikorerwamo n'abaganga mu gufasha abarwayi, harimo ibikoresho bitandukanye, birimo agatanda k'abarwayi gafite ibara ry'umutuku wijimye ndetse n'intebe zicaraho abarwayi n'intebe yicaraho umuganga.

Icyumba kiri mu nyubako y'ibitaro, kirimo abantu benshi batandukanye ndetse n'intebe zicarwamo n'abarwayi bategereje guhabwa ubufasha n'abaganga.

Inyubako y'Ikigo Nderabuzima cya Kigina ifite imbuga nini, imbere y'amarembo hahagaze umugore uhetse umwana.

Icyumba kigari cy'abarwayi, kirimo ibitanda bitandukanye ndetse n'inzitiramubu zifashishwa mu kurinda abarwayi kutandura malariya.

Icyumba cy'ibitaro by'abarwayi kirimo ibikoresho bitandukanye by'abaganga bakoresha bavura abarwayi, ndetse kirimo ibitanda byinshi biryamaho abarwayi.

Umugore ateruye umwana muto w'uruhinja ari kumwe n'umugore w'umuganga, wambaye imyenda yabugenewe y'abaganga ndetse afite igikoresho cy'abaganga.

Ikigo nderabuzima gifite inyubako ndende ndetse gifite imbuga ngari, irimo abantu benshi batandukanye ndetse ihagazemo ikinyabiziga.

Inyubako y'ubuvuzi irimo ibyumba bitandukanye, hari ahavurirwa abana bato bari munsi y'imyaka cumi n'itanu ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarwayi.

Icyumba kirimo umusore wambaye imyenda yabugenewe n'ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa, ameza manini intebe.

Inyubako y'ibitaro ifite imbuga nini, irimo ubusitani bwiza ndetse n'ibiti biteye neza ndetse n'imbuga ihagararamo ibinyabiziga.

Inyubako nini kandi ngari yagenewe imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho byinshi kandi bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cy'inama yitabiriwe n'abakuze ndetse n'abato, bicaye ku ntebe zikozwe mu biti, barareba imbere abayoboye ikiganiro barimo uhagaze atanga ikiganiro.

Inyubako y'ubuvuzi ,ndende kandi ngari. Yubatse mu buryo bwiza, kandi bugezweho. Ifite imbuga nini kandi ngari, irimo ubusitani. Ndetse muri iyo mbuga harimo abantu batambuka, n'ikinyabiziga gihagaze imbere y'iyo nyubako.

Inyubako ituranye n'umuhanda wa kaburimbo y'ikigo nderabuzima cya Matyazo, ifite imbuga nini irimo abagore babiri ndetse n'umwana muto. Mu muhanda na ho harimo abagenzi.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, kirimo abaganga batatu bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'umurwayi uri guhabwa ubuvuzi.

Icyumba cy'ibitaro by'abarwayi gifite isuku, kirimo ibitanda bitatu bisasheho amashuka afite ibara ry'icyatsi ndetse harimo n'ibikoresho byifashishwa n'abaganga bavura abarwayi.

Inyubako y'ibitaro bikuru bya gisirikare by'i Kanombe. Ifite imbuga ngari iteyemo indabyo zitandukanye ndetse n'ibiti bitandukanye, imbere y'aho hahagaze ikinyabiziga ndetse n'abantu ndetse n'icyapa kiranga ibyo bitaro.

Inzu irimo abantu benshi batandukanye, barimo abicaye bambaye udupfukamunwa, ndetse n'abahagaze bagenda, ndetse n'umuganga uhagaze wambaye imyenda y'abaganga.

Icyumba kigari cy'ubuvuzi, cyubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'agatanda, byifashishwa mu gufasha abarwayi bitewe n'uburwayi butandukanye aba afite.

Inyubako ebyiri zirateganye, zubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, zifite imbuga ngari, ndetse ifite ubusitani bwiza.

Abagore babiri barimo uryamye ndetse n'uhagaze. Uryamye yagize ikibazo cy'imvune ndetse uhagaze ari kumuvura imvune.

Umukobwa muto muto ufite imisatsi miremire, yambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ahagaze imbere y'ikiyaga kigari, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yo kugorora amaboko.

Icyuma cy'ikoranabuhanga, gikoreshwa mu mavuriro, cyifashishwa n'abaganga, ahanini mu gupima umuvuduko w'amaraso w'umurwayi ndetse no gutera k'umutima.

Imiti mvaruganda iri mu makarito afite imigozi ifite amabara atandukanye, yifashishwa mu kuvura uburwayi bw'imvune.

Icyumba k'ivuriro kirimo igikoresho cy'ikoranabuhanga mu kuvura abarwayi, kirebye umubiri wose ibibazo bitandukanye by'umubiri.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga ndetse gihagazemo umusore wambaye ibikoresho by'abaganga mu biganza.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe y'abaganga, ari kwita ku murwayi wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, wahuye n'ikibazo cy'imvune.

Akuma k'ubuvuzi gatangwa n'abaganga, gahabwa abarwayi bahuye n'ibibazo by'amaguru, harimo nk'imvune y'amaguru cyangwa se ubumuga bw'amaguru.

Umukobwa afite imisatsi miremire yambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kugorora amaguru.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo, bari mu mikino itandukanye, irimo imipira y'amaguru ndetse n'iy'amaboko, abandi bari kunywa amazi.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo abantu batanu barimo abagore babiri n'abagabo babiri ndetse n'umwana muto, umwe mu bagabo ni umuganga wambaye imyenda y'abaganga ari kuvura umwana muto.

Icyumba cyahariwe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri. Kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuganga ari kwita ku murwayi wahuye n'ikibazo cy'imvune mu kaguru, ahagana ku ivi, hagati y'umurundi ndetse n'ikibero.

Icyumba kigari kirimo abagabo babiri, umugabo umwe yambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, Afite ibyuma mu ntoki byo gukorana imyitozo ngororamubiri.

Umugabo aryamye ku gatanda k'abarwayi, yambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ari kugororwa akaguru n'undi mugabo uhagaze.

Umukobwa wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, imbere ye hateretse mudasobwa, iruhande rwe hari ibyuma byifashishwa gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'icupa ry'amazi.

Igikoresho cy'ubuvuzi benshi bakunze kwita imbago, gitangwa n'abaganga kigahabwa abarwayi bahuye n'ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru.

Umusore uri ahantu hari abantu benshi, yambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri ndetse n'inkweto zo gukorana imyitozo ngororamubiri.

Umuganga w'umugabo wambaye ishati y'abaganga ifite ibara ry'ubururu. Arita ku murwayi amugorora akaguru kagize ikibazo cy'imvune.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi. Kirimo umugabo wambaye ishati y'iroze, yicaye imbere ya mudasobwa.

Umusore afite imisatsi miremire, yambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kugorora amaboko n'umugongo.

Umugore wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri ifite amabara y'ubururu n'icyatsi cyijimye, ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kugorora amaguru n'amaboko.

Umuganga w'umugore, ari kumwe n'umurwayi, bari mu cyumba cy'ubuvuzi. Umuganga yambaye imyenda yagenewe abaganga, ifite ibara ry'ubururu. Ari kumwe n'umurwayi ufite akuma kagenewe abafite ubumuga bw'amaguru. Ari gufashwa n'umuganga, kwitoza kukagenderamo.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse kirimo ibikoresho bitandukanye byo gukoresha imyitozo ngororamubiri. Kirimo umukobwa usutamye. Ndetse n'umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo umuganga ndetse n'umurwayi, umuganga yambaye imyenda yagenewe abaganga ndetse n'agapfukamunwa. Iruhande rwe hari ibyuma by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi, aravura umurwayi uburwayi bw'umugongo ndetse amukorera isuzuma.

Umusore yambaye umwenda w'ibara ry'umukara, yicaye hasi, afite icupa ku munwa ry'amazi.

Imiti itandukanye irimo iyo kunywa, iyo kwisiga ndetse n'ibipfuko byifashishwa mu kuvura indwara z'imvune zitandukanye.

Abantu babiri bambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri barimo ufite utwuma twifashishwa n'abafite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru.

Abantu benshi barimo abana bari mu kibuga gikinirwamo imikino ikoreshwa imyitozo ngororamubiri, bari gukina umukino ukoreshwa umwitozo ngororamubiri, wo gukina umupira w'amaboko.

Umukobwa muto wicaye, avuye gukora imyitozo ngororamubiri. Afite icupa ry'amazi mu biganza, ari kunywa amazi.

UIbitaro by'abarwayi birimo ibitanda byinshi biryamho abarwayi, hari umugore ufite umwana, bicaye kuri kimwe muri ibyo bitanda.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa cyane mu myitozo ngororamubiri, harimo nk'imipira minini ndetse n'abantu batandukanye.

Umugabo wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ifite ibara ry'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kugorora amaboko n'amaguru.

Umugabo wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, yunamye yifashe ku ivi bigaragara ko yagize ikibazo cy'imvune.

Umusore yambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri ifite ibara ry'umukara, ndetse ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kugorora amaguru.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ininkweto z'umweru, ari mu myitozo ngororamubiri yo kunanura amaguru.

Umukobwa ukiri muto wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kugorora amaboko.

Icyumba cy'ibitaro by'abarwayi kirimo abagabo batandukanye, barimo umwe uryamye ku gatanda k'abarwayi undi amufashe ku mugongo.

Inkoni nziza zirimo amabara y'umukara, umweru n'andi atandukanye zifashishwa n'abakuze cyangwa se abafite ubumuga bw'amaguru.

Igikoresho cy'ubuvuzi gitangwa n'abaganga, kandi kigahabwa abarwayi bafite ubumuga bw'amaguru. Benshi bakunze kucyita akagare k'abamugaye. Gakunze kwicaramo umuntu utabashije kugenda, kakamufasha kugenda.

Umukobwa muto muto yambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, yicaye arimo gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hateretse icupa ry'amazi.

Umugore n'umugabo bari kumwe n'abandi benshi, bateruye umusore bamuha ubutabazi bw'ibanze, bigaragara ko yagize ikibazo cy'imvune.

Umugore ufite uruhu rwera, afashe akaguru k'umwana muto wicaye imbere ye, inyuma y'umwana hari umubikira, wambaye imyenda y'ababikira ndetse witandiye.

Igikoresho giteretse ku meza, gifite ibara ry'ubururu, gifite ibice bibiri, birimo ibice bishyirwa mu matwi ndetse n'igice gishyirwa ku mutima, gikoreshwa n'abaganga mu kumva gutera k'umutima w'ababarwayi.

Umugabo ufite icyaka cyinshi. afite icupa ry'amazi mu biganza bye ndetse ari kunywa amazi ari muri iryo cupa.

Itsinda ry'abaganga barimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda yagenewe abaganga, bari mu cyumba cy'ibitaro by'abarwayi birimo ibitanda byinshi biryamyeho abarwayi ndetse kandi imbere yabo hari icyuma cy'ikoranabuhanga ari cyo mudasobwa igaragaza amashusho.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo umuganga ndetse n'umurwayi w'umugabo, umurwayi yicaye ku gatanda kavurirwaho abagize ibibazo by'imvune, ari kuvurwa n'umuganga, ikirenge cyagize ikibazo cy'imvune.

Abagabo babiri bari mu kibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, umwe yambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ndetse afite agapira mu ntoki gakoreshwa mukino w'imyitozo ngororamubiri.

Abagabo babiri bari mu kibuga gikinirwamo imikino ijyanye n'imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, umwe muri bo aryamye hasi yagize ikibazo cy'imvune, undi aramufasha gukiza iyo mvune.

Bimwe mu bikomoka ku bihingwa bifasha imibiri yacu mu kugira ubuzima bwiza buzira uburwayi kandi buramye ndetse n'ibikoresho bifasha imibiri yacu gukora imyitozo ngororamubiri, muri ibyo bikomoka ku bihingwa harimo imboga n'imbuto, arizo pome, pavuro ndetse na voka.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye, birimo iby'ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho bisanzwe byifashishwa mu gutanga ubufasha ku barwayi.

Umugore yicaye imbere y'icyuma cy'itumanaho ndetse n'icyuma cya mudasobwa, imbere ye hateretse ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Ibikapu bitatu bitukura, birimo ibikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, birimo amapamba, ibipfuko, imikasi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umukobwa muto muto yicaye hasi, yambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, irimo ibara ry'umukara ndetse n'iroze n'inkweto zo gukorana imyitozo ngororamubiri. Ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kugorora amaguru ndetse n'amaboko.

Ibikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze, buri mu bikapu bibiri bitandukanye bifite ibara ry'umutuku, biteretse hasi mu bwatsi.

Abakobwa babiri bambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, umwe aricaye undi arahagaze imbere yabo hari ibikapu bifite ibara ry'umukara, uwicaye afite icupa ry'amazi.

Umusore wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, uri mu cyumba cyahariwe gukora imyitozo ngororamubiri. Ari gukora imyitozo yo kugorora amaguru.

Umukobwa muto muto ufite imisatsi miremire, yambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri ndetse n'inkweto zo gukorana imyitozo ngororamubiri, yicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kugorora amaboko ndetse n'amaguru.

Igikoresho cy'ubuvuzi benshi bakunze kwita imbago. Gitangwa n'abaganga kugira ngo kibashe gufasha abafite uburwayi bujyanye n'ubumuga bw'amaguru.

Icyumba cy'ivuriro kirimo igikoresho cy'ikoranabuhanga kiryamyeho umurwayi ndetse cyifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara z'umubiri wose.

Umugabo n'umugore bafite amacupa y'amazi mu ntoki, bambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri, bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo umugabo wicaye uri gufashwa n'umuganga. Afite umugozi ufite ibara ry'umuhondo mu biganza ndetse arawurambuye.

Umukobwa ahagaze imbere y'umusore wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Igipfuko cyifashishwa n'abaganga gisangwa mu nzu zicuruza imiti itandukanye, gihabwa abagize ikibazo cy'imvune.

Abasore batatu bambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri, bafite agapira mu ntoki barakina birinda impanuka za hato na hato.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa cyane mu byumba by'ubushakashatsi n'ababifitiye ubuhanga ndetse n'ubumenyi, ahanini cyifashishwa cyane mu kureba utunyamaswa duto.

Umuganga w'umugore ari kumwe n'akana gato, ari kwifashisha ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Ari kwita kuri uwo mwana muto.

Icyumba cy'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga mu gufasha abarwayi bagize ikibazo cy'imvune.

Umukobwa muto muto wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kugorora amaboko ndetse n'amaguru.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo abagabo babiri, umwe ni umuganga undi ni umurwayi, wicaye mu ntebe, ku kaguru ke hariho icyuma gifasha kugorora ingingo.

Umukobwa muto muto mwiza, yambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ifite ibara ry'umukara. Avuye gukora imyitozo ngororamubiri, ku kaboko ke afiteho icyuma cy'ikoranabuhanga. Mu biganza bye afite icupa ry'amazi ari kunywa amazi.

Ibintu bitandukanye twifashisha mu kugira ubuzima bwiza n'imibereho myiza, birimo imbuto n'imineke n'amaronji ndetse n'inanasi. Birimo kandi ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Umuti gakondo ukomoka ku kimera cyangwa se igihingwa cyitwa igikakarubamba, wanyujijwe mu ruganda uratunganywa ushyirwa mu icupa, rifite ibara ry'umweru, wifashishwa nk'umuti wo koza amenyo agacya kandi agasa neza.

Umuti gakondo ukomoka ku bimera cyangwa se ibihingwa wanyujijwe mu ruganda, uri mu icupa ry'umweru ukoreshwa mu kuwoga cyangwa se kuwisiga, uvura indwara zitandukanye z'uruhu.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera cyangwag se ibihingwa. Yanyujijwe mu ruganda. Iri mu macupa manini y'amabara atandukanye arimo umuhondo n'umweru.

Umuti gakondo wanyujijwe mu ruganda, uri mu icupa rifite umufuniko w'umuhondo, ukomoka ku bihingwa byitwa umuravumba, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuti gakondo ukomoka ku bimera cyangwa igihingwa cyitwa umuravumba, gikunze gukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo inkorora n'ibicurane.

Ba mukerarugendo bari hagati y'imisozi ibiri bakikijwe n'amabuye manini ndetse n'ibiti birebire, Imbere yabo hari umugezi utemba.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera cyangwa se ibihingwa. Yanyujijwe mu ruganda iri mu macupa maremare kandi manini. Ifite imifuniko y'icyatsi.

Umuti gakondo ukomoka ku bimera cyangwa igihingwa cyitwa igikakarubamba, uri mu icupa ry'umweru, wifashishwa cyane mu kuvura indwara z'uruhu.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera ndetse no ku bihingwa iri mu macupa atandukanye, amaremare ndetse n'amagufi, harimo ifite amabara y'icyatsi, umukara ndetse n'umweru.

Imiti gakondo yifashishwa cyane mu kuvura indwara z'uruhu iteretse hamwe mu macupa asa ndetse iteretse icuritse imifuniko ireba hasi.

Imiti y'ibyatsi bakunze kwita iya gakondo ikomoka ku bimera, yifashishwa n'abaganga batandukanye mu gufasha abarwayi gukira uburwayi bwabo.

Imiti gakondo iri mu macupa y'umweru yifashishwa mu kuvura indwara zifata uruhu, irimo iyo kwisiga ku ruhu ndetse n'iyo kogesha uruhu.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera cyangwa se ku gihingwa cyitwa igikakarubamba, iri mu yanyujijwe mu ruganda iri mu icupa ry'umuhondo.

Imiti gakondo ikomoka ku bihingwa cyangwag se ibimera yanyujijwe mu ruganda, iri mu macupa y'amoko atandukanye amaremare ndetse n'amagufi.

Umuti gakondo, ukomoka ku bihingwa ndetse n'ibimera, wifashishwa n'abaganga, mu gufasha imiryango mu bibazo bitandukanye, by'amabanga, y'urugo.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera cyangwa se ibihingwa, iri mu macupa atandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo, bari mu isoko ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, birimo imboga, imbuto ndetse n'imiti ikomoka ku bimera cyangwa se ibihingwa.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore. Barimo abacuruza n'abagura imiti gakondo ikomoka ku bihingwa cyangwa se ibimera. Inyuzwa mu ruganda iri mu macupa menshi atandukanye.

Imbuto zirimo ironji, gaperi ndetse n'amacunga, zirimo isukari karemano yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera n'ibihingwa yifashishwa n'abaganga batandukanye mu kuvura indwara zitandukanye ziboneka mu barwayi.

Itsinda ry'abantu bari hamwe barimo abagabo ndetse n'umugore, bambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi, harimo kandi n'abatayambaye bahagaze imbere y'igihingwa cyangwa se ikimera bita igikakarubamba cyifashishwa mu buvuzi butandukanye.